Abayobozi barashobora bagomba gukora inama kugira ngo bagire ibintu bigaho cyangwa se banonosora kubijyanye n'imiyoborere cyangwa se bijyanye n'ibyo banoza kugira ngo abaturage bakomeze kumererwa neza cyangwa se ubuyobozi bukomeze gukorwa neza kuri gahunda nta kibangamiye ikindi, iyi inama rero ni ingirakamaro.

Kugana inama nk'igihe habayeho inama ku kujya muri iyo nama biba byiza kubera ko ukuramo amabwiriza, ugakuramo ibintu bigezweho ushobora gukora bikaguteza imbere, ibyo rero kujya mu nama buri muntu wese ni iby'ingenzi ko agana inama kubera ko zirafasha cyane.

Ni iby'ingenzi kwitabira inama iyo witabiriye inama ukumva ibyo iri kuvugaho, ese ukumva ibigezweho ngo amabwiriza ubuyobozi butanze kandi ukanihatira no kuyakurikiza biba ingirakamaro kubera ko biragufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukamenya aho iterambere rigeze ukamenya ibyo ugomba gukora n'ibyo utemerewe gukora.

Inama zitandukanye ziterana kugira ngo zigire ibyo zigaho cyangwa se zinoze cyangwa zihindura, mubijyanye n'imikorere, uko bateza imbere iterambere, uko bakwita ku baturage, tujye twubaha inama rero kandi tuziyitabire kubera ko inama ni ingirakamaro cyane.

Inama ni igihe hari bube inama runaka. Iyo nama iba igomba kuba ifite ibintu by'ingenzi iri buze kwibandaho. Umuntu uri butange iyo nama ashobora gufata akabitondeka ku gapapuro kugira ngo ataza kubyibagirwa cyangwa agira icyo ataruka cyangwa agira icyo asimbuka. Noneho kugira ngo abashe kubigeza kubo yabiteguriye mu buryo bwiza.

Mu nama niho handi hantu honyine hashobora gutuma urubyiruko rumenya amakuru, cyangwa se amateka y'u Rwanda. Ubwo rero buri muntu wese kwitabira izi nama ni ingenzi cyane, kuko bituma amenya amateka akungurana n'abandi ibitekerezo bituma yubaka ejo heza.

Umuyobozi aba agomba kuba afite isuku kandi afite atagira isoni mbese ku buryo avugira mu ruhame mu buryo bwumvikana ntasoni nta bwoba ese agahagara imbere y'abaturage bigaragaza niba ari umuyobozi igihe rero ugiye kuvugira imbere y'abantu uba ugomba kwirinda ibyo bintu byo kugira amasosini.

Buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuba yajya mu nama kandi agatangamo igitekerezo. Kujya mu nama rero ni ingirakamaro cyane kuko hari aho bakimuriramo ibibazo abaturage baba bafitanye kandi buri muntu wese uri mu nama akaba yatanga igitekerezo, akavuga uko abyumva bityo abo bantu bakabak babana mu mahoro.

Gusigasira umuco nyarwanda ni ingenzi cyane kuko bizatuma uko abantu bagenda bakurikirana bose bamenya ibyaranze umuco nyarwanda mu gihe runaka, ubwo rero gukomera kuri uyu muco ni ingenzi cyane wenda nko kuboha n'ibindi bintu bya gakondo.

Uyu muco nyarwanda, mu muco nyarwanda abakobwa cyangwa se abagore barangwaga no kubyina. Kubyina bashayaya, batamba amaboko, wari umuco. Umuco nyarwanda nyine na n'ubu rero, uwo muco tugomba kuwusigasira ugakomeza ugatera imbere, umukobwa akiga kubyina bashayaye.

Umuco wo kubyina ni umuco mwiza cyane kubera ko ukoreshwa mu gususurutsa ibirori mu bukwe cyangwa se igihe habayeho umunsi mukuru runaka hakifashishwa ababyinnyi kugira ngo basusurutse abantu, nashishikariza abantu bose bumva bafite iyo mpano kandi babishobora kubikora kuko ni byiza cyane.

Mu muco nyarwanda harimo umuco wo kuboha ibirago, ibi birago rero byarangaga umuco Nyarwanda nyine bikifashishwa mu gukoreshwa mu imirongo itandukanye nk'imihangoy'ubukwe, y'ihamba ko wagikoresha nko murugo, kuba bakiryamaho ni ingirakamaro.

Ndi kubona ibyibo biri mu bintu byari bigize umuco nyarwanda, ariko na n'ubu biracyariho kuboha icyibo, bikoreshwa nko kujya mu bukwe, bagatwara utuntu mu duseke bagiye mu bukwe, cyangwa se bigakoreshwa mu kubyina, hari abantu babyinisha uduseke mu muco nyarwanda, kuboha ibyibo rero ni ingirakamaro cyane.

Tugira imico cyangwa se imihango itandukanye dukurikiza mu mihango y'ubukwe. Iyo hari ubukwe hari abazana inzoga mu kibindi, noneho umukwe n'umugeni we bagasogongera, kugira ngo abandi bantu na bo babone kuza. Uyu muco rero tugomba kuwubaha na n'ubu tukawukurikiza.

Kera hari ibikoresho bakoreshaga kera benga nk'ibitoki cyangwa benga umusururu, igikoresho kitwa umuvure n' agatanda. Aka gatanda kabaga ari Ako kuyungururiraho, bagakoreshaga nyine kari kumwe n'umuvure, bagafata ibitoki, bakajya bayungururiraho nyine, kugira ngo umutobe uze kuza umeze neza.

No ku bijyanye n'imico; imico ya kera n'ukuntu babaga bameze cyangwa se nyine bambaraga mu gihe cy'intambara. Uku ni ko bambaraga nyine, wari umuco wabo , wari umuco wa kera.

Abantu bakora mu bijyanye n'amashanyarazi, baba bagomba kuba bafite imyambaro yihariye nko kwambara ingofero cyangwa bakambara ga mu ntoki zibarinda kuba bakomereka nk'igihe wenda haba habaye impanuka runaka. Iriya ngofero imurinda kuba yakomereka cyane umutwe, mu gihe yaba akoze impanuka.

Ibigomero by'amashanyarazi biba ahantu hatandukanye bikadufasha kuyikwirakwiza umuriro ahantu hatandukanye hirya no hino ku isi kandi nyine umuriro ni ingirakamaro cyane ugira akamaro kanini cyane kudufasha mu kubona serivisi, yo kubadufasha kubona urumuri, kudufasha kubona akazi, bifasha kubona amafaranga, udufasha mu bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye.

Abantu bize ibijyanye n'amashanyarazi bariya bambara ziriya nkweto bazamura hejuru ku mapoto, baba bagomba kwirinda kubera ko ashobora kugenda nabi atagize amakenga akaba yateza, yatera impanuka agahanuka nko hasi cyangwa se akanyerera, aba agomba kwitwararika rero akajyana ibikoresho byose bimurinda kugira ngo adashya.

Aho ingomero z'amashanyarazi ziba ziri. Aho bakura umuriro w'amashanyarazi kugira ngo bagende bawukwirakwiza mu uduce dutandukanye tw'igihugu, aba ari aho kwitondera kuko ubwitwayemo nabibi ushobora kuba wahakorera impanuka bityo ukaba wanahasiga ubuzima, ubwo rero aba hakunda kuhakorera baba bagomba kwitwararika.

Amashanyarazi, ahantu hose tubonye ikintu kijyanaye n'amashanyarazi tuba tugomba kwirinda kugikoraho tutabiherewe uburenganzira kubera ko bishobora kudutera impanuka. Amashanyarazi ava ku mazi agatanga urumuri cyangwa se agakoreshwa muri serivisi zigiye zitandukanye, ubwo rero tuba tugomba kwirinda kuyakinisha kubera ko byateza impanuka.

Ahantu hose dukenera amashanyarazi. Amashanyarazi rero ni ingirakamaro. Kuko atuma tubona urumuri, atuma tubona serivisi zimwe na zimwe zitandukanye, tubona amafaranga kuko atanga akazi mu bijyanye no gukoramo, kandi n'ubundi akongera iterambere n'ubundi ry'abaturage muri rusange.

Ahantu hariho ikigomero cya, ibigomero by'amashanyarazi tuba tugomba kuhirinda, tukahagendana amakenga tukirinda kugira ahantu dukora tutabiherewe uburenganzira kubera ko, bishobora guteza impanuka tukaba twahaburira n'ubuzima. Uba ugomba rero kwirinda gukubagana igihe ugeze ahantu hari ikigomero.

Umuriro w'amashanyarazi na wo ni ingenzi cyane kuko utuma ibintu byinshi bikorwa mu buryo bworoshe kurusha mbere hose. Ubwo rero tuba tugomba kubungabunga ahantu hari ingomero z'amashanyarazi kandi tukabungabunga aho ibikorwa byose by'amashanyarazi biri kuko bidufasha mu buzima bwa buri munsi tugatera imbere.

Ahantu hari ibigomero by'amashanyarazi. Tuba tugomba kuhubaha kandi tukirinda kuhakinira kubera ko ushobora guteza impanuka. Ubwo rero ugomba kwirinda kuhakinira kandi amashanyarazi azirana n'amazi. Wenda tuvuge nk'iwanyu mu rugo cyangwa se gukorera ahantu ari ugomba kwirinda ko yahura n'amazi.

Ibikorwa remezo bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino, na byo buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kubibungabunga, ku buryo hagize ubona uri kubyangiza aba agomba kugushyikiriza inzego z'ubuyobozi, ukabijozwa kuko ibi aba ari ibikorwa remezo bifitiye buri muntu wese akamaro.

Ugukwirakwiza amashanyarazi ni ingirakamaro cyane kuyakwirakwiza ahantu henshi hagiye hatandukanye haba mu mujyi, haba mu cyaro ni ingirakamaro kubera ko amashanyarazi afasha mu buzima bwose bwa buri munsi, afasha mu buvuzi, agafasha mu bucuruzi, agafasha no mu zindi serivisi nyinshi zigiye zitandukanye dukenera mu buzima bwa buri.

Abantu bakoramo mu bintu bijyanye n'amashanyarazi baba bagomba kugira imyenda ibaranga ku buryo aho bari hose ugomba guhita ubamenya kandi bakambara ingofero z'ubwirinzi kugira ngo nibaramukaho bakoze impanuka bitaza kubangiza cyane. Ubwo rero buri mukozi wese aba agomba kwambara iyo ngofero kugira ngo yirinde impanuka zishobora kubaho.

Amashanyarazi agomba gukwirakwizwa ahantu hose, haba mu mijyi, haba mu cyaro, amashanyarazi aba agomba gukwirakwira akagera kuri buri muturage wese kugira ngo tubone urumuri, tubone urwo dukoresha mu ngo, rero tuba tugomba kwirinda kuba twashiramo amazi cyangwa ibintu bitose kugira ngo twirinde inkogi y'umuriro.

Leta yubaka ibikorwa remezo byinshi ariko, ibyinshi biba ari ingirakamaro ku baturage. Twebwe abaturage ni twebwe biba bifitiye akamaro, niyo mpamvu tuba tugomba kubisigasira tukabyitaho tukirinda icyabyangiriza, nyine tukabifata neza tukabisigasira.

Leta itwubakira ibikorwa remezo byinshi ikatwubakira amashuri, ikatwakirawa ama banke, ikatwubakira ibitaro, ibyo bintu byose Leta iba yatwubakiye kuba ari ukugira ngo yongere imibereho myiza y'abaturage ikomeze gutanga n'ibyo bakeneye, nk'iyo ikwirakwije amashuri ahantu hose kuba ari ukugira ngo itange uburezi kuri bose. Rero ibyo ibikorwa remezo tuba tugomba kubisigasira tukabyitaho tukabifata neza.

Leta ishobora kubaka ahantu hashobora gukorerwa imikino y'umupira kugira ngo ikunde iteze imbere ibijyanye n'imipira. Aho hantu rero uba ugomba tuba tugomba kuhafata neza tukahitaho, hagufasha kuruhuka igihe ugiye kureba umupira, hagufasha kugabanya ibitekerezo wahangayitse...

ubuyobozi butwubakira ibikorwa remezo byinshi, bimwe na bimwe, bikadufasha bikateza imbere nyine abaturage, urugero bakatwubakira nk'amasoko, bakatwubakira ibitaro, bakatwubakira amashuri, ibyo byose biba ari ingirakamaro ku banyarwanda kubera ko ari twe bigirira akamaro kanini cyane, ubwo rero tuba tugomba kubisigasira tukabyitaho.

Leta yubaka ibiraro ikatwubakira ibiraro by'abanyamaguru kugira ngo igabanye wenda nk'ahantu haba hari umugezi munini cyane uburyo umuntu atashobora kubona uko ahambuka, leta ishyiraho ikiraro kugira ngo abantu bajye babona uko bambuka neza bitabagoye, ibyo biraro rero tuba twirinda kubyangiza tukabifata neza kugira ngo twirinde natwe impanuka.

Mu gihe bibaye ngombwa ko hari umusanzu runaka umuturage asabwa kugira ngo hubakwe inyubako runaka, aba agomba kubyitabira kuko inyubako ni ingenzi cyane kuko zituma ubuyobozi bubona ahantu bukorera kandi natwe tukamenya ahantu hafatika ho kuba twajya gusaba serivisi runaka batatugoye, ubwo rero buri wese gutanga umusanzu ni ingenzi.

Mu buryo bwo kugira ngo abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza leta yateganyije ubuhunikiro cyangwa se amakaragiro amakaragiro ni ahantu hakusanyirizwa amata noneho agatunganywa kugira ngo abantu bazabashe kuba bayanywa atunganyije ameze neza abarinde kuba barwara indwara ziterwa n'amata.

Ibiraro, ibiraro bikomeye biradufasha, bidufasha gucaho imodoka ziremereye ntizigire icyo zaba zahungabanya cyangwa se zo ngo zigire icyo zaba, zigatuma habanwa impanuka zishobora kubera mu mihanda cyangwa se n'isuri ishobora gutwara nk'umuhanda, bigabanya ibyo byose.

hirya no hino tuhabona ibikorwa remezo bitandukanye, leta iba yarubakiye abaturage kugira ngo hakorerwemo imirimo runaka ibafitiye inyungu. Ibyo bikorwa rero tuba tugomba kubisigasira, tukabifata neza, tukirinda icyabyangiriza kugira ngo bikomeze kugira isuku kandi bikatugirira akamaro.

Ubuyobozi butwubakira ibikorwa remezo byinshi, nko kubakira nk'igikorwaremezo gishinzwe nko kuba twashinganishamo imishinga yacu kugira ngo dutangire gukora, mu buryo bwo kugira ngo twiteze imbere dukore imishinga yacu izwi na Leta kandi tukayikora mu buryo bwemewe nayo.

Ubuyobozi butwubakira ibikorwaremezo bitandukanye, bifasha abaturage mu bikorwa bitandukanye, muri gahunda zitandukanye, ibubakira n'imihanda, amazu abafasha gukoreramo nk'imirimo runaka, cyangwa bashakiramo serivisi, ibyo byose bigira akamaro kanini abaturage. Tukaba tugomba kubyitaho rero tukirinda kubyangiza ahubwo tukabisigasira.

Leta ikora ibikorwa remezo byinshi urugero nk'imihanda, inyubako zigiye zitandukanye zigirira akamaro abaturage, nk'imihanda ifasha ubucuruzi, bikabafasha gukora ingendo bava ahantu hamwe bajya ahandi, nyine bikagira umumaro munini cyane rero twese tukabyungukiramo.

Hari ibiganiro byinshi biba, amanama agamije gusobanurira agamije gusobanurira abantu ku burenganzira bw' umuntu cyangwa se ku bugamije gusobanura icyo Umunyarwanda ari cyo iyo nama izo nama nk'izo rero ni ingirakamaro kuzijyamo kugira ngo nawe ubisobanukirwe.

Umuntu wese afite uburenganzira bwo kwiga, akiga amashuri y'ibanze, ayisumbuye, akiga na kaminuza. Nta muntu rero ugomba kwakwa ubwo burenganzira kubera ko ari uburenganzira bwe kwiga, akagarukira aho ashaka. Twese rero tujye dushyigikira kwiga.

Buri munyarwanda wese agomba kubaha ubutabera kandi nyine akubaha n'uburenganzira bwa muntu. Ntabangamira ikiremwamuntu kubera ko gifite human right gifite uburenganzira bwo kuba kiriho, bwo gukora ibyo cyakagombye gukora, nyine ntitubangamirane kandi tukubaha ubutabera. Tugakurikiza ibyo budusaba.

kwitabira inama ni ingirakamaro, inama zidufasha kumenya ibintu byinshi bikagufasha kumenya ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ibijyanye n'ibyo ugomba gukora, ibyo utagomba gukora se bikaguhuza n'abandi ukamenya aho iterambere rigeze ukamenya, mbese amakuru agiye atandukanye agezweho, ni iby'ingenzi rero buri wese yitabira inama.

Tugomba kumenya ko buri muntu afite uburenganzira bwe. Hari ibyo agomba gukora hari n'ibyo afiteye uburenganzira bwo gukora. Tuba tugomba kumuha uburenganzira rero tukirinda kumuvutsa ubwo burenganzira kandi biri mu burenganzira bwa muntu, ni bireba ibyo yemereye kuba yakora. Ntabwo twemerewe kuvutsa umuntu uburenganzira bwe.

Abayobozi nabo babagomba kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kandi bagakoresha ubutabera igihe baca imanza kandi buri muturage wese yemerewe kuba yajya mu nama kandi akaba yagira n'icyo avuga ku ngingo runaka. Ubwo rero ubu burenganzira bwa buri munyarwanda bugomba kubahirizwa aho buva bukagera.

Inama zihugura abaturage ku bijyanye n'uburenganzira bwabo, babasobanurira ibijyanye n'imiyoborere, mbese bakahamenyera ibintu byinshi, kandi byiza. Rero ni iby'ingenzi ko buri muturage wese igihe havuzwe ko hari bube inama agomba kwitabira kugira ngo yumve ibivugirwamo.

Ubutabera butuma umuyobozi abantu bamukunda, kubera ko iyo uri guca urubanza, ukirinda kugira uruhande rumwe ubogamira, utuma uca urubanza neza. ubwo rero buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa serivisi ntakarengane kabayemo.

Abayobozi ni uruhare rwa mbere rutuma habaho ubutabera n'uburenganzira bwa, badufasha gukemura ibibazo nk'igihe wenda hari umuntu wagerageje kukwambura uburenganzira bwawe cyangwa se kukubangamira ukabagana, bagufasha gukemura icyo kibazo uburenganzira bwawe bukagaruka cyangwa se icyo wari wabuze ukageraho ukakibona, ukongera ukaba Umunyarwanda wuzuye ufite uburenganzira bwe.

Iyi mihanda rusange, idufasha kuba twayikoresha mu bikorwa bitandukanye, amaparikingi leta ishyiraho, atuma amamodoka abona aho aparika, abatega bakajyamo n'abantu bashaka wenda kuba bagira aho bajya batazi, bakaharangishwa binyuze muri parikingi. Iyi mihanda iradufasha.

Umuhanda, buri muntu wese yemerewe gukoresha umuhanda. Umuhanda ni ikintu rusange buri muturage wese afiteho uburenganzira bwo kugikoresha, ariko akawukoresha mu buryo wagenewe gukoreshwamo, atabangamiye abandi cyangwa se ngo we hagire umubangamira.

Imihanda rusange igihe uri kugendamo ufite ikinyabiziga uba ugomba kugenda neza wita ku bindi binyabiziga kugirango utaza guteza impanuka ukirinda guta umuhanda ukagendera mu cyerekezo cya we ugomba kugenderamo utarenze aho ugomba kutarenga, ukagendera nyine mu cyerekezo cyawe kugirango wirinde guteza impanuka.

Hariho imihanda, imihanda iri rusange ku bantu cyangwa se ku ibinyabiziga, ibinyabiziga rero nubwo ari iya rusange igihe bigendamo cyangwa umuntu, uba ugomba kubanza kwitonda ukitegereza neza kugirango kugirango ngo hatagira hatagira icyo ubangamira cyangwa ngo ubogamira.

Urubyiruko cyane cyane rushobora gukoresha imbaraga zarwo mu bikorwa bijyaniranye n'imiganda aho igikorwa gikenewe urugero wenda hakenewe nko kubaka ikiro runaka cyasenyutse, biba ari ngombwa ko urubyiruko by'umwihariko rugaragara mo cyane muri ibyo bikorwa kugira ngo rutange imbaraga zarwo mu gukomeza kubaka igihugu cyacu no kugisigasira.

Buri umuntu wese aba agomba gucunga umutekano kandi yabona ushaka guhungabanya umutekano, agatangira amakuru ku gihe, hariho n'ibigo bishinzwe umutekano cyangwa abantu babishinzwe, abo bantu rero tuba tugomba kububaha, igihe bagize amabwiriza baduha, tuba tugomba kuyubahiriza.

Twese nk'abanyarwanda tugomba guharanira uwo mutekano, nyine hakabaho kubungabunga amahoro tukirinda amakimbirane hagati yacu na polisi y'u rwanda idufashamo nyine. Uburyo bwo kubungabunga umutekano n'abaturage bakabana mu mahoro nyine kandi nyine bagakundana, bagasenyera umugozi, deni bikarangirira ku iterambere.

Tuba tugomba gufashanya tugakorera hamwe nko mugihe cy'umuganda, tukajya ku muganda gugakorera hamwe nk'abaturage, kongera iterambere ry'agace kacu cyangwa ry'igihugu cyacu bitewe n'icyo dukeneye, kandi tukanateza imbere umutekano wacu dufatanyije dufatanyije na Polisi y'u Rwanda, twifatanya n'abayobozi, kugira nyine dukomeze guteza imbere igihugu.

Guca imiyoboro, ahantu hashobora gutera, guca amazi menshi ku buryo hashobora guteza isuri ni ingenzi. Igihe ahantu hanyura amazi menshi hashobora gutera isuri murashobora kugenda rero mukahacira imiyoboro kugira ngo ayo mazi agende. Aho kugira ngo atere abaturage isuri.

Siporo ifite akamaro kanini cyane mu buzima bwacu, bidufasha kugira ubuzima bwiza twabona amafaranga, ikaturinda umubyibuho ukabije, igatuma dutekereza neza, imitekerereze ya yacu igakora neza, kandi nyine ikanateza imbere na Leta.

Gukora siporo birafasha cyane, bidufasha gutekereza nk'igihe wakoze akazi wananiwe, gukora siporo bigufasha kuruhuka mu mutwe, bikagufasha kugira ngo umubiri wawe ukore neza, ukagabanya umubyibuho waba ukabije, mbese bigatuma amagufa yawe akomera, bikakurinda ubumuga bushobora gufata umuntu udakora siporo kandi bikaninjiriza n'amafaranga.

Siporo iteza imbere ibintu byinshi, siporo bituma abantu babona amafaranga, igatanga akazi, siporo ituma abantu bagira ubuzima bwiza, bituma abantu batekereza neza, igihe wananiwe wenda bitewe n'uko wakoze akazi kenshi kenshi ikagufasha kuruhuka nyine ugakomeza mbese kugira ubuzima bwiza n'imibereho myiza.

Siporo igira ahantu henshi ikorerwa, ushobora kuyikorera iwawe mu rugo, ushobora kuyikorera mu muhanda, hariho n'ahantu hateganyijwe hakorerwa siporo. Aho hantu rero tuba tugomba kuhafata neza tukirinda kuhangiriza n'igihe twagiye ahantu hakorerwa siporo, tukirinda ikintu cyaba cyateza impanuka no babangamira abandi.

Gukora siporo bidufasha kugorora umubiri, amaraso agatembera neza, kuruhura ubwonko kandi bikinjiza n'amafaranga kubera ko ababikora, babikora nk'umwuga binjiza amafaranga kandi bigatuma ugira ubuzima bwiza, ukabaho neza, bikakurinda ubumuga bumwe na bumwe ushobora gufata ingendo bushobora gutuma ufata ingendo bitewe no kuba udakora siporo.

Siporo ushobora gukora siporo, wenda siporo umuntu niwe ugena igihe wayikorera. Ushobora kubyuka mugitondo ukayikora. Ukirukanka nko mu muhanda, ukagera ahantu ukagaruka cyangwa se ukayikora nimugoroba cyangwa se uyikora igihe cyose ushakiye kandi ukaba wayikorera ahantu hose wabona, no mu muhanda ushobora kuyihakorera nta kibazo.

Ibijyanye no gukina umupira aba ari mu bakinnyi bakina umupira, ni iby'ingenzi cyane kuri bo, birabinjiriza amafaranga kandi bikanatuma bakomeza kugira ubuzima bwiza kubera ko bituma umubiri wabo ukora neza, gukora siporo zihagije, amaraso agatembera neza, buri muntu wese rero ni byiza ko akunda siporo kubera ko ari ingirakamaro.

Hari siporo zitandukanye, siporo zose ntabwo ziba ari kimwe, siporo rero zidufasha mu buryo butandukanye zishoborasha kugabanya umubyibuho ukabije, zikadufasha kugira ubuzima bwiza, zikadufasha gukira ngo amaraso atembere neza mu mubiri na none zigatuma tubona amafaranga, hari siporo zitanga amafaranga ugamije kubona amafaranga kandi n'ubuzima bwawe bugakomeza kugenda.

Gukora siporo bifite akamaro cyane, kuberara ko abayikora bagira ubuzima bwiza, bakaruhuka mu mutwe, niyo mpamvu rero ahantu hakorerwa siporo tuba dukwiriye kuhitaho tukabungabunga, kuko aho hantu ni ingirakamaro cyane ku bantu bakunda gukora siporo, kandi kuri buri muntu wese.

Siporo ni ingirakamaro, siporo itanga akazi nk'abantu bakina nk'imipira barahembwa kandi bikanafasha n'ubuzima bwabo gukomeza gukora neza kuko bibarinda indwara zimwe na zimwe zishobora gufata umuntu udakora siporo, ni ingirakamaro gukora siporo kuri buri muntu wese kubera ko bimufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi.

Gukora siporo bitugirira akamaro kanini cyane, kandi iyo bigaragaye ko tuzi gukora siporo ku rwego rwo hejuru, dushobora bishobora kutugirira akamaro tukaba twagera nko ku rwego rw'umurenge tukamenyekana, tugaheraho tubona uburyo bwo gukomeza impano yacu, bityo bikaba byadufasha.

Imihajura kugera ahantu mu muhanda mugari umuhanda ubisikanirwamo n'ibinyabiziga byinshi ahangaha uba ushobora kuba uba ugomba kuba maso kugira utagongana n'ikinyabizigateza impanuka cg se cyo ukagiteza impanuka uba ugomba kugenda uri maso ureba ko ntawe ushobora guteza impanuka cyangwau wowe uyitere.

Mu igihe umuntu ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo akoresheje amaguru, aba agomba kwitwararika, akanyura mu nzira zabugenewe kugira ngo adateza impanuka kandi akagenda neza atarangaye kugira ngo ataza guteza impanuka mu muhanda. Ubwo rero ni byiza kugenda umuntu yitonze ari kureba, nta burangare kugira ngo adakora impanuka.